Ishuri ry' abana b'incuke, barimo imbere, ku muryango w'iryo shuri, hashushanyije inyamaswa y'ishyamba ndetse n'umunyeshuri wambaye ipantaro na karuvati.

Umuntu wambaye ikote, yambaye furari mu mutwe,.Arimo arashushanya ibintu bitandukanye ku kibaho kugira ngo abyifashishe yigisha abana.

Ishuri ry'abana batoya ririmo intebe. Intebe z'umweru, ririmo ibikapu, amakayi, amakaramu, byose biteretse hejuru y'ameza.

Abanyeshuri bicaye hamwe kumeza, azengurutse, bicaye ku ntebe baririmo gusobanurira abandi, bambaye amajipo y'ubururu n'amashati y'umweru.

Umuntu uri kumwe n'abanyeshuri, biga muri pirimeri, aho bari mu kigo cy'amashuri, hari amashuri, ageretse inshuro imwe, uyu muntu akaba afite indangururamajwi na telefone mu ntoki.

Abanyeshuri bambaye ibintu bibapfutse mu maso, bicaye mu ishuri bicaye ku ntebe zifite aho bandikira bambaye inkweto zifunze buri munyeshuri wese.

Abanyeshuri ba segonderi bicaye mu byatsi ndetse no munsi y'ibiti, barir kumva inama y'abayobozi babo, ndetse aba bayobozi bakaba ari batatu, abagabo babiri n'umugore umwe.

Abanyeshuri ba segonderi abakobwa n'abahungu, bambaye udupfukamunwa, amajipo n'amapantaro ya kaki, amashati y'umweru inkweto zifunze, uretse umwe wambaye inkweto zifunguye, bakaba bahagaze imbere y'icyapa kiranga amahame y'ikigo cyabo.

Ibice bibiri by'abanyeshuri ba segonderi, bambaye impuzankano zitandukanye. Bamwe bambaye impuzankano z'ishati y'ubururu n'izindi ni ikabutura n'amajipo y'umukara. Abandi bambaye ishati y'umweru, amajipo n'amapantaro ya kake. Bakaba bambaye inkweto zifunze z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru. Bahagaze kumirongo iringaniye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru na kacyi, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, ameza akaba ateretseho imashini bari gukoresha mu masomo yabo.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, baricaye bakoze uruziga, barimo kubasobanurira.

Abanyeshuri benshi bicaye hamwe basoje kaminuza, bambaye ingofero ndetse n'amakanzu yabugenewe ahabwa buri munyeshuri wese ushoje kaminuza.

Ishuri rigizwe n'ingeri z'abantu batandukanye, bari imbere y'imashini, hari ibyo barimo gusobanurira, gusobanurirana bigiye bitandukanye, imashini ziteretse hejuru y'ameza, hakaba harimo n'intebe bicayemo, hakaba hari n'umwarimu uhagaze uri kubasobanurira.

Abanyeshuri bari mu ishuri bamwe baricaye abandi barahagaze, harimo intebe z'icyatsi, hari n'abari bafite amatelefoni ya simati.

Ishuri risize irangi ryiza ari etaje ikaba ifite amayesikariye, ipavomye n'amapave, ikaba ifite rigorii iriho icyuma.